Serivise. serivise n'ubuzima bw'abaturage butangwa n'ibigo by'itumanaho, aho usanga ababahagarariye bagenda baha serivise abaturage batandukanye. Ni ngombwa mu buzima kuko usanga biteza imbere ababikora ugasanga bagira amafaranga bacyura iwabo, bakoroshya itumanaho tubona tugura amafaranga y'itumanaho tukagira internet mu bihe bitandukanye.

Serivisi zihuriweho ni kimwe mu bintu dukenera buri munsi, aho usanga dukeneye nk'amasosiyete y'ubucuruzi bw'itumanaho usanga dukoresha imihanda, dukeneye abamotari tubashe kugera aho dukwiye kuba tugera hose ugasanga rero serivisi zihuriweho ari ikintu mu buzima bwa buri munsi dukeneye.

Ibikorwa rusange. Ibikorwa rusange ni ingenzi kubera ko usanga nk'amasosiyete y'itumanaho abasha gutuma twumvikana tugahura, ubwumvikane no gutumanaho bikihuta, nk'amasosiyete y'itumanaho za Airtel n'ibindi bitandukanye bityo guhanahana amakuru bikoroha ndetse bikoroshya iterambere n'ibindi bitandukanye.

Ibigo by'imari n'amashyirahamwe ni ibintu bihuza abantu ubuzima bwa buri munsi kandi bikabafasha, kuko usanga iyo bishyize hamwe bakabitsa bakagurizanya, bakiyubakira ibikorwaremezo birimo amazi, amavomero n'ibindi byoroshya ubuzima bwa muntu iterambere ry'igihugu n'abaturage muri rusange.

Ibigo by'imari: ibigo by'imari n'amatsinda yo kubitsa no kugurizanya. Ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho mu buzima bwa muntu. Aho usanga ku rwego rw'Akarere usanga ku rwego rw'Umurenge abayobozi bakuru, abashinzwe ubukungu, abayobozi b'uturere n'abandi. Bateranira hamwe bakishimira umusaruro bagezeho, hagahembwa ama koperative yabaye aya mbere. Urwego ruhagarariye abikorera rugaterana n'urw'Akarere bakabishimira ababigizemo uruhare ubuzima bukaza bwiza kurusha...

Ibigo by'imari n'amakoperative ni bimwe mu rwego ruteza abantu imbere aho usanga zigira abazihagarariye ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'igihugu n'ahandi, ugasanga ari hamwe mu ho leta ishyira imbaraga, igashishikariza amakoperative gukorera mu mucyo, kugira ubuzima gatozi n'ahandi, aho usanga ahagarariwe kandi akitabwaho na leta y'u Rwanda kugira ngo abaturage babashe kujyamo bizigamire, babitse, babashe kugurizwa amafaranga bityo iterambere ryabo ryihute kandi vuba.

Ibigo by'imari n'amakoperative, ibigo by'imari n'amakoperative n'ihamwe mu hantu hafasha mu iterambere ry'umuturanyi mu buryo bwihuse, aho usanga bimwe mu bigo byo kubitsa no kugurizanya n'imirenge sacco bifasha mu kwihutisha iterambere ry'igihugu, ukaba inguzanyo zirishyurwa mu gihe gitoya by' abaturage n'iterambere ryabo rikihuta.

Amabanki n'ibigo by'imari, ni imwe mu nzego zubakitse kandi zitera imbere, aho usanga abaturage babitsa bakanaguriza, ugasanga amabanki amwe n'amwe yakoze neza kurusha andi, ahawe ibihembo, babikuyemo igikombe, amafaranga, kubishimirwa mu ruhame n'ibindi, ibyo ni byiza ko twita ku mabanki, tugakorana na yo kugira ngo tubashe gutera imbere vuba kandi byihuse.

Ibigo by'imari, ibigo by'imari n'amakoperative ni amwe mu bintu bidufasha gutera imbere kandi vuba, aho usanga abaturage bashobora kugenda bakahakura amafaranga, bakaba bakora imishinga nk'ubworozi n'ibindi, bakaba havamo abagura ibinyabiziga bigemura umusaruro uturutse ku bikorwa byabo ndetse amafaranga n'ubukungu bikiyongera.

Amagare n'amaresitora amabare n'amaresitora ni ahantu haboneka ibyo kurya bitandukanye n'ibinyobwa aho ubona inyama zitetse neza zirimo umuceri zirimo amakaroni n'ibindi bitandukanye bikenerwa n'abaturage cyangwa n'abazigana mu buzima bwa buri munsi.

Ibiribwa bitandukanye nk'amakaroni, ni kimwe mu bintu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho usanga ari ibihingwa, ari ibiribwa biba bifunze neza mu masashi yabugenewe kugira ngo bitabasha kwangirika kandi ugasanga biribwa n'abantu, haba ababakire n'abakene, aho usanga abenshi bibafasha mu gutekwa ku muceri, ku birarayi n'ibindi.

Amaguriro. Amaguru n'utubari y'ibicuruzwa ibinyobwa bidasembuye, ni ngombwa kuko bituma tubasha kubona ibyo dukeneye vuba kandi hafi ,tuba twagura ibinyobwa nk'amazi yo kunywa adasembuye, imitobe itandukanye ikozemoanasi, ikoze muri tangawizi,, n'ibindi bitandukanye bityo ugasanga ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza.

Ubucuruzi bw'amavuta, ni kimwe mu bintu biteza imbere ababikora, aho usanga atandukanye nk'ayitwa movit, amavuta asukika, adasukika, n'andi atandukanye, byose bikaba bifatanyiriza hamwe mu kongera ubwiza bw'abantu, ugasanga kandi ari isoko y'imirimo kuri benshi.

Ihahiro n'amaduka , ihahiro n'amaduka ni ahantu dukura serivisi zitandukanye tukahagurira ibyo kwambara, tukahagurira ibikoresho bitandukanye bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bityo ubuzima bw'umuntu burushaho kuba bwiza kurushaho.

Amaduka n'amaguriro ni ahantu h'ingenzi cyane, ushobora kugurira ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga nk'amasarigeri y'amaterefone, aho tugurira ibikoresho bitandukanye, amasaha, ibyo kurya bitandukanye n'ibindi bitandukanye byose dukeneyera mu buzima bwa buri munsi, bibikwamo inyandiko n'ibindi.

Amasoko n'amaduka, aho tubona ibintu bitandukanye, tukabonamo injanga, ubunyobwa, ibishyimbo, ibintu byose bitandukanye, tukabonamo ubunyobwa, buseye n'ubudaseye, amavuta yo kurya, amakaroni n'ibindi byose bitandukanye, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wareba ugasanga bikeneye kwitabwaho no guteza imbere, kugira ngo imisoro, akazi ndetse n'ibiribwa bibashe kuboneka byoroshye.

Ubucuruzi ndetse no mu nzego z'ingenzi zikenewe buri munsi kuko usanga bakenera kugura ibikoresho bitandukanye, ingufuri zo gufunga imiryango birinda abajura, tukagura indabo, tukagura ububiko butandukanye bw'ibintu runaka mu maguriro kugira ngo bikomeze kugenda neza kurushaho.

Insengero. Insengero n'amakoraniro ni ahantu heza ho guhurira kw'abaturage, usanga bahujwe n'ikintu kimwe, abakuru n'abatoya abasaza abakecuru, bose bahujwe n'umugambi wo kwegera Imana, gucirana bugufi gusabanaba imbabazi, ibyo reroho ni byiza kuko bituma igihugu gitera imbere, ibyaha bikagabanuka, abantu bakarushaho kubana neza mu gihugu kigatera imbere muri rusange.

Insengero n'amakoraniro, insengero n'amakoraniro ni ahantu abantu bahurira, bagasenga, bakegerana n'Imana , bakabasha kwigishwa byinshi bitandukanye, aho usanga insengero zimwe zigiye zifite imiryango bibiri, usanga hari insengero zitandukanye z'abarokore, insengero nyinshi zinyuranye zituma abantu babasha guhura n'Imana kandi bakabigisha indangagaciro nyinshi zikwiye.

Insengero, insengero ni ibikorwa bizana amafaranga ni ngombwa mu buzima bwacu. Nk'aho tubona insengero zitandukanye z'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, insengero z'abarokore, insengero zitandukanye, imihanda, n'ibindi bizana amafaranga, ni ibifasha igihugu mu iterambere, gutanga ubutumwa ku baturage, gutuma bubahiriza amategeko, n'imyitwarire myiza.

Insengero, insengero ni ahantu habarizwamo ingeri zitandukanye, aho usanga abihayimana harimo abapadiri n'abapasiteri, bahuriza hamwe abaturage, ndetse n'abandi bantu bose baje kwegera Imana, bakaganira bakunga ubumwe, bakaganira ku buzima bwa buri munsi, kwirinda icyaha n'igisa nacyo, bityo ubuzima ugasanga bugenda neza, mu mpande zitandukanye.

Gusenga gusenga ni kimwe mu bintu byakabaye indangagaciro ya buri wese, kubera ko bituma dutozwa indangagaciro na kirazira byakaranze umuturage, ugasanga bituma twubaha abantu ndetse na leta, twubaha amategeko duhabwa n'abaturuta ndetse n'abo turuta, tukabasha guca bugufi mu mitima yacu, tukegerana n'Imana, tukirinda ibyaha n'ibindi bitandukanye, tugatanga amafaranga igihugu kikabaho neza binyuze mu maturo dutanga n'ibindi, bityo ubuzima bukagenda neza.

nsero n'amadini aseya n'amadini nta bamwe mu bantu abaturage bahurira bahujwe n'igikorwa cyo gusenga imana bagakora igikorwa cy'urukundo bakivukiranya indangagaciro zagakwiye umutuyi mwiza bagatanga amaturo bagira kigatera imbere aho usanga bayoboye padiri cyangwa se pasiteri usanga bigisha ijambo ry'imana mu mibanire myiza n'ibindi Insengero n'amadini, insengero n'amadini ni hamwe mu hantu abaturage bahurira bahujwe n'igikorwa cyo gusenga imana, bagakora igikorwa cy'urukundo, bakibukiranya indangagaciro zagakwiye umuturage mwiza, bagatanga amaturo igihugu kigatera imbere aho usanga ubayoboye, padiri cyangwa se pasiteri usanga bigisha ijambo ry'imana, imibanire myiza n'ibindi.

Amahoteli n'amacumbi. Amahoteli n'amacumbi n' urwego rukeneyewe mu buzima bwa buri munsi kuko rutanga serivisi zikenewe. Aho zicumbikira abashyitsi baba abanyamahanga ndetse nabo mu gihugu imbere ugasanga hari ibitanda bishashe neza, baruhukira ugasanga bashyize amafaranga, umunaniro maze ubuzima bukarushaho kugenda neza.

Amahoteli n'amacumbi, amahoteri n'amacumbi ni ahantu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko usanga iyo turi ahandi hantu hatari mu ngo z'iwacu dushaka kuhaba tukahidagadurira tugahakorera imyitozo ngororamubiri, tukatemberera, tujya koga muri pisine ugasanga ubuzima burushaho kuba bwiza bw'amahoteli kubera ko buzana amafaranga bugatanga akazi n'ibindi.

Amahoteli n'amacumbi. Amamoteri n'amacumbi ni ahantu dukeneye mu buzima bwa buri munsi, turahara turahacumbika ubuzima bukagenda neza, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza n'abandi.

Amacumbi n'amahoteli ni bimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane kuko tubyifashisha nk'ihuriro, tukahakora inama, ubukwe n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, bityo ugasanga iterambere ry'abanyirayo ritanga akazi igihugu n'abaturage bagatera imbere muri rusange.

Amahoteli ni hamwe muheza nyaburanga aho usanga abaturage n'abandi bantu bakeneye serivisi z'amahoteli bajya kugira ngo babashe kunezerwa bishime bijyanye n'urwererane, udusikariye twiza, aho usanga sale z'inama aho kuruhukira, gufatira umuyaga n'ahandi, amatara meza byose urasanga ari ibintu binonogeye ijisho kandi bishimisha ubibona.

Amahoteli manini'a haciritse ni hamwe mu haboneka ibitanda byiza byo kuryamaho, aho usanga bari mu cyumba giteguye neza, hari imikeka hasi, amatara yaka neza mu mabara yose, ugasanga ahantu hashimishije abahasura, abahagenda ndetse n'abafata amacumbi.

Amacumbi n'amahoteli ni hamwe mu ho turuhukira. Tukabasha kugira ubuzima bwiza, tukahatembera, tukahaganira n'inshuti. Tukahacumbika kandi tukahabona ibyo kurya twifuza, mu gihe runaka tubikeneye cyangwa mu gihe dushaka kuruhuka mu mutwe no kumara umunaniro.

Ubwiherero, ubwiherero ni kimwe mu bintu bigaragara mu mahoteli, bikagaragara mu mazu yo kuraramo n'amacumbi, aho usanga bwifashishwa n'abayabamo, abakozi bayo n'abandi batandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza kurushaho kandi biba bishimishije bityo binyure abayagana.

Amacumbi n'amahoteli ni ahantu hagaragara uruganiriro rwiza, aho haba hari ameza akoze mu birahure, indabyo nziza zo kwicaramo abantu baganira, bunguranamo ibitekerezo bakaba baruhuka mu mutwe, hakaba hateye neza hagaragara amabara atandukanye, hashobora kuba hatatse umweru cyangwa n'ibindi.

Amahoteri mato n' manini n'amacumbi, ni ahantu haba hateguye neza, hatatse amabara menshi, hari aho kurira, kuruhukira n'ibindi bitandukanye, ku buryo usanga haganwa na benshi, ba mukerarugendo, abanyamahanga n'abandi bantu bakeneye kujya kuruhuka no gukora imyitozo ngororamubiri.

Amasoko n'amahahiro ni ahan tujya iyo dukeneye tugura ibikoresho bitandukanye byo mu byo mu gikoni n'ibindi byose dukeneye byo kubikamo nk'imifuka, ibikombe, indobo, amabasi, byose bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amasoko n'amahahiro, amasoko n'amahariro ni ahantu tujya tukabona serivisi zitandukanye aho tugura ibyo dukeneye tukabasha kugura nk'imyenda, imyambaro tukabasha kubona ibicuruzwa bitandukanye, ibinyabiziga tukabasha kuhabona imirimo itandukanye y'ubucuruzi buciriritse bwo kwandika ku myenda bakabasha gucuruza mu maduka n'ibindi.

Amasoko n'amahahiro, amasaku n'amaharo, ni ahantutu mu buzima bwa buri munsi dukenera kubera ko tujya kwahagura imyenda yo kwambara, tukahagura ibyo kuryamaho nk'ibirago, tukahatuma abana bacu kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwacu bwa buri munsi, leta ikahakora imisoro n'ibindi.

Amaresitora, amarasitora ni ahagurizwa ibyo kurya bitetse, ni ahantu hakenerwa na buri wese, mu gihe cyose atari mu urugo iwe kandi akeneye kurya, ni ahantu tujya twaka serivisi zitandukanye hasa neza kandi hakeye, hateye intebe nziza, ari ibyo kurya bizanwa mu buryo bwiza bigatuma ubuzima bwa muntu butagenda nabi, mu gihe atari hafi y'aho agomba kubyiha.

Amaresitora, amaresitora ni hamwe mu hantu dukenera buri munsi kuko tuhafatira amafunguro, tukajya kuharuhukira, ugasanga tuhafatira ibyo kurya bya mugitondo by'amasamoro, amarariro n'ibyo kurya bya saa sita, ugasanga ubuzima burushaho kugenda neza, mu gihe tutabonye umwanya wo guteka ibyacu mu ngo zacu.

Abatwara ibinyabiziga. Abatwara ibinyabiziga n'abanyami n'ibinyamitende, ni ngombwa mu buzima bwacu kuko bidufasha kuva muduce tumwe cyangwa' tujya mu tundi, ibinyamitende nk'amagare byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, ndetse ugasanga ntanubwo byangiza ibidukikije, kandi ntabwo akeneye amavuta n'ibindi bya esanse, kugira ngo ubuzima bube bwiza kurushaho.. Ni byiza gukoresha amagare dukora imyitozo ngororamubiri, dutwara abantu n'ibintu ariko tutarengereye kugira ngo ubuzima bw'abantu butahononenekarira.

Ibinyabiziga mu muhanda, ibinyabiziga mu muhanda: ni kimwe dukoresha mu buzima bwa buri munsi kandi dukenera kubera ko usanga dukenera kugenda kuri za moto, abamotari bakadutwara mu hantu hatandukanye. Batugeza ku bitaro, ku mavuriro n'izindi serivisi zitandukanye.

Abamotari n'abashoferi ni bamwe bamwe mu bantu bakorera akazi kabo mu muhanda bashishikazwa kubahiriza akazi kabo bubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo berengere ubuzima bw'abo batwaye bityo amagara y'abantu ibibazo n'impanuka birushaho kugabanuka.

Ubwikorezi bw'ibinyabiziga bwifashishije za moto n'ibindi, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane mu mihanda ya kaburimbo itandukanye, igaragara mu turere tunyuranye nka Nyagatare n'utundi dutandukanye ni ngombwa kubera ko, ituma yihutisha iterambere ry'abaturage yaba abatwara amagare na za moto, yaba abagenzi bashaka kugenda bihuse kandi vuba, ni ngombwa rero ko tubibungabunga mu buzima bwacu.